Aba ni abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, biga mu ishami, ry'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, bakaba bakora umwuga, wo gusuka, gusokoza imisatsi ndetse no guca inzara.

Aba ni abanyeshuri biga mu kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro, bakaba ari abanyeshuri biga umwuga w'ububaji. Iyo akaba ari umwuga ushobora guteza imbere nyirawo, uwawize akaba yawukurikirana neza.

Aba ni abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro aba bakaba ari abanyeshuri biga umwuga w'ububaji. Uyu ni umwuga ushobora kugufasha igihe wawukurikiranye neza ukawiga ukawutsinda nyuma urasohoka ukiteza imbere.

Aha ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, y'imyuga n'ubumenyi ngiro bakaba bari mu isomo ryo gusudira ibikoresho bitandukanye.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari mu kizamini. Aha hatangirwa serivisi z'uburezi ndetse n'uburere ndetse n'ubumenyi ku bantu baje bahagana.

Aya ni amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, aba bakaba ari abanyeshuri bari kwiga ikoranabuhanga, n'amashanyarazi, biga ubukanishi butandukanye, bwo gukora ibikoresho n'ibikoreshwa bitandukanye.

Aya ni amashuri y'imyuga n'ubumenyigiro, uyu akaba ari umunyeshuri wiga umwuga w'ubusudizi, hano ari gusudira ameza, ndetse ari guhuza ibikoresho, kugira ngo abashe gukuramo ikintu kigaragara.